Icyapa kimanitse ku muhanda kiri mu buryo bwo kwamamaza ku bafite uburambe mu kuvura no gutanga ubwishingizi ku bantu bafite imyaka mirongo itatu n'itanu kuzamura, bakaba bashyizeho nimero ya telefoni n'imbuga nkoranyambaga wababonaho.

Tekana mu gihe cyawe cy'izabukuru, ugomba gutegura ejo hawe heza ugasaza umeze neza, hano hari amazi bahatembereye bari kugenda ku tugare kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse ntibasaze vuba.

Aha iki ni icyapa kiri kwamamaza uburyo wakoresha ubwishingizi mu kwivuza, kubera ko bigufasha cyane iyo warwaye indwara itabasha kuvurirwa kuri mituweli, asiranse iragufasha ubwishingizi bukagushyigikira ugakira.

Biragaragara ko ari umugabo wicaye mu modokari uri gushishikariza abantu guhitamo buritamu inshuti y' ibihe byose, gendana ikizere buri ntambwe y'urugendo kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Hakaba hasi hariho imbuga nkoranyambaga wakoresha kugira ngo ubavugishe bagufashe.

Ni ukwamamaza kw'ubwishingizi ku buryo washinganisha umuryango wawe mukazagira ejo heza ndetse bikagufasha no kwiteza imbere mu muryango wawe ndetse n'igihugu kigakomeza kujya ku rugero rwiza.

Ni icyapa cyamamaza ku bantu bakeneye ubwishingizi bw'imodoka, wabavugisha kuri umunani kabiri rimwe, mirongo itatu mirongo irindwi na gatanu, kugirango baguhe ubufasha.

N'inyubako y'itaje bashyizeho icyapa cy'amamaza uwiniwey akaba ari amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu buri cyumweru ukohereza message mirongo nitatu nari rimwe mirongo icyenda na kabiri ,gatandatu hakaba hariho n'umwana

Aha biragaragara ko ari kwamamaza akisesi banke uko wayinjiramo ndetse ugakomeza ugakurikiza amabwiriza.

Hano biragaragara ko ari ikarita ikoreshwa muri bankie hakaba hariho imibare wakoresha wishyura cyangwa ukamenya amafaranga ufite kuri banki yawe.

Ni uburyo ukoreshwa kuri murandasi, winjira kuri enisibi ayi banke, bakakwereka uburyo wafungura konti yawe n'uburyo wazajya winjiramo, uburyo bagufasha, ndetse n'ibindi byose wifuza ukabisangaho.

Biragaragaza ko ari ikusanya ry'amakuru runaka, ushobora kuba uri muri biro, uri kwegeranya amakuru wagiye ubona kuri tere y'akazi, cyangwa ibyo wagiye ukoresha mu kazi, ukusanya amakuru kugira ngo utange raporo nziza.

Hano biragaragaza ko ari muri telefone winjiyemo, muri konte yawe bigaragaza amakuru y'amafaranga ufite, ayo ufite bakayakwereka, ayo ugomba kwishyura bakayakwereka, ayo usigaranye bakayakwereka, iyi ni serivisi ikoreshwa kuri banki cyangwa mobayiro mani na momo kashi.

Inyubako irimo umusore uri gutunganya ibyo acuruza, ku murongo harimo inkweto, amashakoshi, amatelefoni ndetse n'amakadere, imitako bataka mu nzu.

Aha biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi icuruzamo imyenda y'abakobwa ndetse hanze bakaba baba bashyizeho ibipupe bikoreshwa mu kwamamaza ndetse no kwerekana ko umwenda wabera uwaba uwambaye, bigatuma abakiriya babagana.

Biragaragara ko ari inyubako icururizwamo imyambaro y'abagabo, iyi myambaro ikaba ibafasha mu kurinda umubiri wabo ntukomereke ndetse no kugira ubuzima. Mu buzima bwa buri munsi umuntu akenera imyenda.

Aha biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bikorerwa mu Rwanda utu ni amasaro abantu bambara ku maboko bakaberwa bakajyanisha n'imyenda bambaye kugira ngo bakomeze gusa neza.

Mu iduka rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ikorerwa mu Rwanda, hakaba hari umubyeyi waberetse urugero rwiza ababwira ngo ni mumugane.

Aha ni icyapa kigaragaza amasaha batangiriraho n'ayo basorezaho akazi, bakaba bafite ibintu bitandukanye bakora bakorana na banki ya Kigali ndetse na momo kashi cyangwa mobayiro mane.

Aha ni umusore uri kumwe n'umuzungu ubona ko bagwije urugwiro bari muri butike bari gucuruza kandi bakaba bafite abakiriya bari kubagana bari kuvuganaho uko ibicuruzwa bari kubicuruza.

Ni inyubako irimo umuryango umwe ucururizwamo ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda. Amashati y'abagabo, imyenda igiye itandukanye, wabagana bakaguha ibyiza bikorerwa i Rwanda kandi bikazamura iterambere ry'igihugu cyacu.

Biragaragara ko ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, hakaba harimo inanasi, akamaro k'inanasi gatuma umuntu agira ubuzima bwiza, ikaringaniza n'isukari mu mubiri, hakaba harimo n'udusego dushyirwa mu ntebe, iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mugongo akiseguzaho ndetse n'umuntu uwo ari wese akagakoresha mu gihe agakeneye.

Iri ni iduka rikorerwamo imyenda ikorerwa mu Rwanda, bakaba bari kwamamariza u Rwanda, bafite abakiliya b'abanyamahanga ndetse n'undi wese wabagana bakamufasha.

Hano biragaragara ko ari inzu yubucuruzi icuruza inkweto zabakinnyi, n'inkweto zisanzwe abahungu bakoresha mu kwambara, rero twabashishikariza mu kwambara inkweto ndetse mukagira ubuzima bwiza.

Hano biragaragara ko ari mu duka, umuguzi yagiye agatoranya imyenda akeneye. Yamara kuyihitamo akaza kubaza nyiri bicuruzwa uko iyo myenda ihagaze, bari kuvugana ku biciro.

Aha ni abagabo babiri bafite urufunguzo rugaragaza ko ari imodoka y'akageramotozi hakaba hari imodoka yafasha gutwara abagenzi bava ahantu hamwe bajya ahandi igatwara umuryango ndetse igatwara n'ibindi byose byariba bikenewe kuva ahantu bamwe bijya ahandi.

Iragaragaza abagabo batanu, bahagaze imbere y'imodoka zitwara bantu bigaragaza ko hari umwe watsindiye gutwara imodoka bakaba bamuhaye urufunguzo rwayo.

Ni umugabo bigaragara ko yatsindiye gutwara r imodoka y'ikamyo, yikorera imizigo, imicanga, amabuye ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biremereye, abivana ahantu hamwe abijyana ahandi, akaba yayitsindiye muri akagera motozi.

Hano biragaragara ko hari abagabo batatu bari kumwe hakaba hari mugenzi wabo umwe watsindiye imodoka yo muri akagera motors bakaba bayimuhaye kugira ngo yiteze imbere atwara imizigo ayivana ahantu hamwe ayijyana ahandi .

Ni imodoka nziza cyane ikaba itwara umuryango. Uyu atwara umuyobozi avuye ahantu hamwe ajya ahandi bigafasha kwiteza imbere ku muryango bigafasha umuyobozi kugera mu kazi ku gihe adakerewe.

Iragaragaza igiceri cya makumyabiri gikoreshwa mu Rwanda ndetse n'igiceri cy'atanu gikoreshwa mu Rwanda muri banki yacu.

Iki ni igiceri cyakoreshwaga mu rwanda mu igihumbi kimwe maganacyenda mirongo irindwi na karindwi kikaba cyarakoreshwaga muri icyo gihe kikaba kiriho ikirangantego cy'ikawa bigaragaza ko bakundaga ikawa.

Bigaragara ko ari inyubako irimo banki, hakaba hari umukiriya ndetse n'mwakira akaba ari kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikura kugira ubuzima bwe bugende neza kandi akomeze yiteze imbere.

Ni igiceri cy'icumi gikoreshwa hano mu Rwanda kikaba kiriho ikirangantego kiranga igihugu cyacu ndetse wakijyana ku isoko ugahaha cyagufasha.

Aya ni amafaranga magana atanu y'u Rwanda ariho banki nkuru y'u Rwanda, hakaba hariho inka z' firizone ziri mu busitani ziri kurisha, ikaba ikoreshwa ugiye ku isoko ugiye guhaha, kandi wayatwara ahantu aho ariho hose muri iki gihugu, ugahaha ibyo ukeneye.

Ni umwari wicaye ategereje ko bamwakira ko bamuhereza icyo kunywa amata fanta ndetse n'ibindi bitandukanye, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza mu gihe yumvaga atameze neza.

Aba ni abari bari kwamamaza ibintu bituruka ku mata mu dukarito babashishikariza ko guha abana amata ari byiza bakura bameze neza ndetse n'umuntu waba ukeneye kuyanywa akayanywa bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Aha biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi hakaba hakorerwamo gucuruza amata, amagi, ibintu bigiye bitandukanye, wabagana ufite amafaranga ukeneye icyo kurya bakagufasha.

Aha biragaragara ko ari inyubako iri ku muhanda ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hakaba harimo imashini zabugenewe kubika amata kugira atangirika, hakaba hari n'umukiriya uje kureba amata kubera bizeye ubuziranenge bw'aho hantu.

Iyi ni isahani iriho amandazi, amandazi akorwa mu ifarini akaba atuma umuntu ashonje yajya agahaga, ndetse ugira n'ubuzima bwiza.

Aha ni ubusitani bashyizemo ihema, bakaba bari kwamamarizamo mukamira ituruka ku mata. Ubwo ikaba ifasha abana kugira ubuzima bwiza, ndetse bagakura bafite ubwenge.

Ahangaha ni isambusa, ikunda kurishwa amata cyangwa bakaba bayicuruza ahantu haba hari icyayi, amata kugirango abakiriya ba bagana babibone kandi bitavuye kure.

Ubundi uburyo bukoreshwa kuri murandasi wishyura amafaranga runaka ku kintu waguze uri kuri murandasi.

Aha ni uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bugezweho no kwiteza imbere ndetse ukagura amayinite, ukagura interinete zagufasha kureba ibintu ukeneye ndetse ukazajya ubona uko ubona amakuru agezweho.

Yerekana uburyo bwo kwinjira' muri emutiyene momo ushaka kohereza amafaranga, kugura amayinite, kwishyura mo mopeyi, serivisi za banki kwishyura ideni kureba akawunti yawe ukuntu ihagaze n'uburyo bagufasha.

Ni umuzungu ufite telefone mu ntoki ye hakaba handitseho umukiriya Joy, ko amaze kwishyura amafaranga amadolari magana atatu makumyabiri n'atanu, ubwo ni ibicuruzwa baba bashyize kuri online bakabigura.

Raporo y'imari cyangwa ubukungu hifashishwa mu kigo cyangwa ikintu runaka kumenya ibyinjiye, igihombo, inyungu, amadeni, byose bikamenywa ndetse n'igiciro cyabyo.

Uru ni urupapuro rwa Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro hano mu Rwanda, baruguha bemeza ko wa soye haba hariho tini namba yawe ukoresha usora imyirondoro yawe ndetse n'amazina yawe.

Uru ni urupapuro ruhabwa umuntu wishyuye umusoro aribyo Rwanda Revenue Authority, bakimuha bemeza y'uko yishyuye imisoro agomba kwishyura, hariho imyirondoro ye ndetse bikamufasha gukomeza guteza imbere igihugu.

Ni urupapuro rugaragaza raporo y'imari, igihe ibintu byakorewe, aho byaciye kugira ngo ayo mafaranga agere kuri iyi ngengo y'imari ndetse n'aho yaturutse.

Uru n'urupapuro uhabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro hano mu Rwanda rwemeza ko watanze umusoro hakaba hariho tini namba yawe usoreraho n'amazina yawe ndetse n'ibyo ucuruza.

Biragaragara ko ari ibaruwa yandikiwe umuntu cyangwa ikigo runaka ushaka kumenyekanisha ikintu ikaba iturutse kwa batamuriza hajara akanaba yasinyeho hasi hakajyaho uko wabona aho iyo baruwa yaturutse wasura urubuga, wasura na facebook .

Ni urupapuro baguha iyo umaze gusora umusoro, kandi umusoro uzamura igihugu uteza imbere abanyarwanda, ufasha iterambere ry' igihugu mu kuzamura ubukungu bw'ejo hazaza.

Iyi ni mudasobwa ikaba igaragaza uburyo abakiriya bishyura, igihe baba bishyuriye bikabafasha kubika amakuru yabo, ku buryo batayabura igihe runaka bayakenera no mu bindi bakayakoresha.

Hano biragaragara ko ari ugucunga amafaranga y'abanyamahanga imikorere yo kwakira, kubika no gukoresha amafaranga aturuka mu bihugu bitandukanye bakaba bagaragaza ko ibiciro bashyizeho bizubahirizwa ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu bibiri na cumi nicyenda kugira ngo abakiriya babo bataza kwibeshya.

Uru ni urupapuro rugaragaza ku wa mbere ku itariki cumi z'ukwezi kwa karindwi, bibiri na makumyabiri na gatatu, uburyo amafaranga azagurishwa n'uburyo azagurwa kuri uwo munsi kuri banki ya Uganda.

Hano biragaragara ko ari ugucunga amafaranga y'amahanga imikorere yo kwakira kubika no gukoresha amafaranga aturuka mu bihugu bitandukanye bagashyiraho ko amafaranga banki igura ku giciro runaka bagashyiraho n'ukuntu banki igurisha amafaranga ku giciro runaka.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga aturuka mu gihugu cya ero, akaba ari inote ya magana abiri, akaba akorehswa mu gihugu cyacu, iyo uyashaka uyajyana ahabugenewe bakakuvunjira bakayaguha mu manyarwanda.

Aha ni inyubako irimo umuryango uri gukorerwamo gucunga amafaranga y'amahanga n'imikoreshereze no kwakira no kubika, abantu bari ku murongo babyitabiriye kugira ngo bayabahe.

Hano biragaragara ko ari umuryango ushinzwe kugurisha amafaranga, gucunga amafaranga y'amahanga yo kubika no kubikura n'uburyo abantu bayabona byihuse, biragaragara ko bari bari mu minsi mikuru bashyizeho imitako y'ibipirizo kugirango abakiriya babagane.

Ni umwari uri gusohoka ahantu hakorerwa kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye, ukoresheje mobayiro mani na banke kandi bikagufasha kuyageza kuwo ushaka byihutirwa.

Ni akazu gakorerwamo ubuvunjayi bw'amafaranga y'amanyarwanda ndetse n'ataramanyarwanda; amafaranga ufite bakakuvunjiramo ayo ushaka gufata ndetse bakaguha serivisi nziza.

Inyubako imanitseho ibyapa biranga ahantu hagiye hatandukanye hakaba hari forex buro ineza aho bavunjisha amafaranga uyafite mu mafaranga atari amanyawanda bakayaguha mu mafaranga ukeneye waba uyafite mu mafaranga y'abanyamahanga bakayaguha mu manyarwanda nimero wabahamagaraho nazo ziriho.

Biragaragara ko ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga bw'ubuvunjayi, waba ufite amafaranga y'amanyarwanda akayaguha mu nyamahanga waba ufite amanyamahanga bakayaguha mu manyarwanda bikagufasha gukora icyo ushaka kutarinze uvaho.

Aha biragaragara ko ari inyubako ikorerwamo gucunga amafaranga y'amahanga, imikorere kwakira, kubika, no gukoresha amafaranga aturuka mu bihugu bitandukanye, waba ufite amafaranga ari mu mahanga bakayaguha mu munyarwanda, waba uyashaka amafaranga y'amahanga bakayaguha mu gihe cyose uyakeneye.

Biragaragara ko ari igitanda gikozwe mu rubaho rwiza ndetse kikaba kinasashe neza wakiryamaho ukaruhuka ukagira ubuzima bwiza.

Ni intebe nziza cyane zikorwa n'uruganda rukora ibintu by'intebe zikoreshwa mu ruganiriro cyangwa aho abantu barira.

Iragaragaza igitanda gisasheho matera kiriho amashuka ane afunitse mu mashashi byerekana ko umuntu aba akwiye guhindura amashuka amazeho iminsi atarandura kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni intebe zabugenewe zikozwe mu mbaho nziza cyane bakunda gukoresha mu muryango bakazifashisha bari kurya kugira ngo ibintu bigende neza.

Iragaragaza ahantu wajya gufata icyo kurya n'icyo kunwa, ujyanye n'umuryango wawe, kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza, mugateza imbere bizinesi, kugira ngo ubukungu bwacu bugende neza.

Biragaragara ko ari inzu icumbikira abantu, bakaryama, bakaruhuka ndetse bakaganira n'ahantu heza hari umuyaga, bifasha kuzamura igihugu cyacu no kwiteza imbere ku muntu.

Ni inyubako bigaragara ko iri ku muhanda ikaba iteyeho ibiti bitanga umuyaga abantu bakagira ubuzima bwiza, ni hoteli abantu bacumbikamo bagagura business zabo za buri munsi ndetse bagatanga n'akazi ku bantu badafite akazi bakabafasha.

Ni ubusitani burimo ibiti byiza bitanga umuyaga mwiza ndetse n'umuntu akagira ubuzima bwiza, hari intebe ya kinyarwanda iri mu giti, ameza ya kinyarwanda yo mu giti, hariho n'ibishushanyo byerekana ko hari umuco

Iyi ni inyubako nziza cyane, iri sente famiye. Iyi akaba ari sente famiye hoteri, bagacumbikira abantu bigafasha mu kuzamura igihugu cyacu.

Ni hoteli bivuga amacumbi, bagacumbikira abashyitsi batuganye mu Rwanda kugirango basure ibikorwa byacu remezo, ndetse hakaba hari n'ubwogero abantu bajyamo bakoga bakamera neza.

Ni ahantu hafite ubwiza habugenewe abantu bicara bakaganira ndetse habera n'inama yateza imbere umuryango wabo uyateza, imbere igihugu cyabo yateza, imbere ikigo cyangwa se ikindi cyose cyakoranya abantu barenga ku icumi.

Aha biragaragara ko ari abakozi bari kwakira abakiriya bari kubagana, bashaka amakuru arambuye ku bijyanye n'ubwishingizi mu kwirinda.

Ni inyubako ikorerwamo asiranse, ubwishingizi bukoreshwa igihe ufite ikinyabiziga ugahura n'impanuka, bakagufasha kwishyura uwo wagonze, no gukoresha igikoresho cyawe.

Hano biragaragara ko ari ofisi ya kampani runaka, cyangwa ikigo runaka, abakozi bashobora kwicaramo bakira abantu babagannye babakemurira ibibazo byabo, bakabafasha no kubikemura.

Ni inyubako igizwe n'amagorofa atandukanye hakaba hariho ibiti, ikirango kiyiranga buritani sentoro ifite ibirahure.

Biragaragara ko ari impapuro eshanu, uru akaba ari urupapuro rwa gatatu rwanditseho ibintu umuntu ashobora gusoma rukamufasha, mwi ekwiti.

Hano bigaragara ko ari inyubako ikoreramo koperative Ineza ifasha abantu mu gutanga inguzanyo bakiteza imbere, bagahinga neza ibihingwa byabo bagacuruza ndetse n'ubuzima bwabo bukazamuka.

Ni inyubako irimo umuryango ukoreramo kopedo, kopedo ni banki ikorera mu Rwanda, aha ifite amashami ahantu hagiye hatandukanye, ikaba ishishikariza abari n'abategarugori mu gutinyuka ko bashoboye bakiteza imbere, bakabaha inguzanyo mu kuzamura ubumenyi bwabo.

Ni umukobwa uri kwibaza ku bijyanye n'uburyo yabona amafaranga miliyoni mirongo itanu, inyuma ye hari inote ya bitanu. Inote nkuru mu Rwanda wajyana guhaha ahantu aho ariho hose, ugafata ikintu ushaka.

Hano handitse tekana roni, tekana ideni, ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe, hakaba hariho imodoka yatwara umuryango cyangwa abantu bagiye mu kazi, hakaba hari umutaka, uburyo wakoresha kugira ngo ubahamagare kuri emutiyene cyangwa imirongo yose.

Aha biragaragara ko ari urubuga rwa murandasi rukoresha na ayi emu banke winjiramo bakakwereka uburyo ushobora gufata inguzanyo ibyo ugomba kuba wujuje.

N'inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ariko hano hasi hari bake ya kebisi bake, ukaba ari icyuma abantu banyuramo kugirango binjire muri bake mu buryo bwo kwirindira umutekano, waba ushaka kubikuza no kubika amafaranga bakagufasha.

Ni iduka ry'ibicuruzwa bitunga umubiri. Bifasha kuzamura igihugu cyacu ndetse byorohera cyane umuturage guhaha, mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye; igitwara umuntu umwe, ibitwara abantu bane, ibitwara abantu batanu. Hakaba hari icyapa abanyamaguru, abagenzi bugamamo izuba ndetse banategereje imodoka ko zibatwara, hakaba hari n'amatagisi imodoka zabugenewe gutwara abagenzi ahantu hatandukanye.

Hano biragaragara ko ari mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu, buri muntu wese aba yashyize ibicuruzwa bye ku ruhande kugira ngo hatabaho kwibana ndetse bigateza imbere umunyarwanda ndetse no kwigira.

Biragaragara ko ari isoko ry'ibiribwa byiganjemo imbuto hakaba hari abakiriya n'abaguzi hano hari umubyeyi ucuruza imbuto mu buryo bwo kwiteza imbere afasha n'umuryango we .

Biragaragara ko ari isoko rigurirwamo ibintu bitandukanye, riri kuganwa n'abantu kugira ngo bahahe ndetse bagire n'ubuzima bwiza, dore ko kurya nabyo biri mu bintu bigira ubuzima bwiza, ndetse n'abantu bari gucuruza nabo bakiteza imbere.

Aha ni isoko ririmo abantu, hari umucuruzi ufite isambusa mu ndobo, iyo ufite inzara urazirya ukamera neza, ubuzima bwawe bukagenda neza, bikagufasha gukomeza gukora akandi kazi ufite.

Hano ni mu isoko riri kuganwa n'abantu bagiye batandukanye harimo amavuta yo kwisiga hakaba harimo imyenda ibintu mu bigiye bitandukanye bifasha umuntu mu kwiteza imbere ndetse no kugera ku ntego ye y'ubuzima aba yarihaye.

Aha ni mu isoko ry'imyenda cyane cyane iyo abagore bambara, umuntu waza wese kureba icyo ashaka yakibona, cyane ko bituma umunyarwanda yiteza imbere ndetse akungura n'igihugu cyacu mu gutanga imisoro.

Ni isoko ry'ibiribwa ndetse n'ibikoresho bitandukanye hari inkoko ziriho ibishyimbo. Ibishyimbo kandi akaba ari byiza cyane bifite intungamubiri yo kubaka umubiri ukagira imbaraga ndetse ukabyibuha ukamera neza.

Ni isoko ririmo ibintu bitandukanye; ibikapu, inkweto za bodaboda zishobora gufasha abana n'abantu bakuru mugihe udafite amafaranga menshi yagura inkweto zindi, ziradufasha cyane.

Hano biragaragara ko ari inyubako ikoreshwa mu bucuruzi, hakaba hariho banki y'u Rwanda y'abaturage bakoresha baza kubika amafaranga ndetse banayabikura, hakaba hari n'aho bayavunjishiriza bayakura mu ma amafaranga y'amanyamahanga bashyira mu manyarwanda, bikabafasha gukora akazi kabo ka buri munsi.

N'inyubako y'isoko irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abantu, abagore n'abagabo. Har'ibitoki abantu barya mu buzima bwa buri munsi, ubuzima bwabo bukagenda neza.

Hano hari abanyeshuri babiri bahetse ibikapu, bagiye ku mutaka wa Emutiyeni kugira ngo uwo mukozi wa Emutiyeni abafashe mu kwishyura ishuri, kubaha amafaranga bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, batega bajya ku ishuri ndetse banava

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, bitwara abantu hakaba hari umutaka ku ruhande, urimo abakozi ba emutiyene bafasha emutiyene mu gutanga serivisi nziza, ku bakiliya babagana babikuza amafaranga cyangwa bayabitsa.

Biragaragara ko ari iduka ry'imyenda y'abagabo cyane cyane amapantaro, amakoto, n'amakoboyi, iyo uguze ukoresha wishyura momopeyi kugira ukomeze kuzamura ubusugire bw'igihugu cyacu.

Ni icyapa cya emutiyene, cy'ukuntu wagura amayinite cyangwa ukareba amayinite usigaranye, biragaragaza ko ahangaha bari bari mu gushishikariza abantu gukoresha umurongo wa amayinite.

Biragaragaza ko ari urubuga ruri ku ikoranabuhanga ruhahirwaho ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ibikoresho byo mu nzu, ibintu by'ibiribwa bitandukanye bikenerwa mu Rwanda.

Ari umusore wambaye imyenda y'akazi ndetse uri no mu kazi, akaba ari kwamamariza umukapo, ushaka ibiryo babikugezaho uciye kuri murandasi ndetse nawe wahagera bakabigufashamo.

Ni umugabo ufite ikarito, bigaragara ko ari muri sitoke ikoreshwa mu iposita, abantu banyuzaho ibikoresho byabo cyangwa dokima zijya hanze cyangwa zinjira mu Rwanda.

Iragaragaza ko ari urubuga rwa ihaha rucishaho ibicuruzwa byayo, umuntu yabikenera agasura urubuga rwa ihaha kugira ngo bimufashe kumenya ibihari, ubundi abone kujya kubireba.

Hano biragaragara ko ari iguriro rikoreshwa mu bucuruzi bwa Amerika ndetse n'Ubushinwa bikorerwa kuri murandasi, ushobora kugura ikintu bakakwereka aho utangira ugurira ndetse n'amavidewo y'ibicuruzwa bafite kandi baba babikweretse imbere yawe, bikagufasha kugura icyo kintu aho uri, utarinze kuhava.

Ibinyabiziga bikoreshwa mu gutwara abantu bajya mu kazi kabo ka buri munsi bigatuma bagerayo bihuta, bigakoreshwa mu gutwara ibintu mu gihe gito biva ahantu hamwe bijya ahandi mu buzima busanzwe.

Hano ni ibinyabiziga dukunda kwita moto bikoreshwa mu gutwara abantu cyangwa kugura ibintu kuri murandasi bakabikugezaho aho uri utavuye mu rugo mu buzima bwa buri munsi ukabona uko wabikoresha kandi ukiteza imbere .

Ndabona hawuze ofu toyiro ifite ikirangantego gishushanyije imbere hakaba harimo imyenda inyuma hakaba hari haje umuguzi.

Hano biragaragara ko ari ikinyabiziga dukunda kwita moto, gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse no gukora ubucuruzi bwo kuri murandasi, buvana aho ibiryo byatekewe ibigeza ku bakiliya babo, mu gihe gito kandi cyihuse babikora neza mwabagana.

Ni inzu nziza cyane umuntu aturamo akagira ubuzima bwiza harimo utubati bigaragara ko ari mu gikoni akabati gakoreshwa mu kubika ibintu neza ndetse bikagira n'ubuziranenge.

Ni ubwiherero buri mu nzu ikodeshwa, iri Kicukiro Kagarama mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi n'ijana ku kwezi, uwaba yifuza twayimurangira.

Ni inzu irimo akabati gafashishwa mu kubika ibikoresho by'umuntu mu nzu ye imyenda, inkweto, amavarize ukabibikamo kugira ngo bitangirika, ibimeshe ukabishyira ukwabyo n'ibitameshe ukabishyira ukwabyo.

Ni icyumba kirimo igitanda, wajyamo ukaruhuka gikoreshwa mu mahoteri, mu muryango bisanzwe ndetse iyo umuntu ananiwe araruhuka ubuzima bwe bukongera bukagenda neza, haryamaho umuryango, waryamaho uri umuntu umwe, mbese iki gitanda gifite akamaro kenshi.

Ni inzu, iki ni icyumba kirimo igitanda, waryamaho ukagira ubuzima bwiza, hari n'umuryango mwiza, amarido meza, hari n'idirishya ryaguha umwuka mwiza, ugakomeza gukunda iwacu i Rwanda.

Ni umugabo uri mu nyubako bigaragara ko yayishimiye, yashyiramo umuryango we cyangwa agakoreramo bizinesi ye ikamuzamura igateza imbere igihugu ndetse agaha n'abantu akazi.

Biragaragara ko ari ubwogero buri mu nzu runaka, ituwemo n'umuryango cyangwa ikorerwamo ikintu runaka, ikaba ikodeshwa amadolari mirongo itanu n'atanu ku kwezi, ikaba iri i Kigali, Kabeza.

Ni intebe zishyirwa muri saro abantu bicararaho baje gusura umuryango cyangwa zigashyirwa muri saroo bakiriraho abakiriya bagana ibiro runaka.

Iyi ni inzu nziza cyane iri ku muhanda, hakaba habamo umuryango, hakaba hakoreramo ibiro, ku buryo umuturage yakwegerezwa serivisi, ikaba ikodeshwa iri Kanombe.

Ni inyubako igizwe n'amadirishya y'ibirahure byiza, yaturamo umuryango ukagira ubuzima bwiza, n'abakerarugendo bayituramo, bigafasha kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu, mu kwiteza imbere.

Aha ni igikorwa cyo kubaka inzu ifite ibyumba bibiri mu buryo bworoshye, kandi ku giciro gitoya, kandi ukabaho neza umuryango wawe ugatera imbere, kandi nawe ugatera imbere mu buryo bwihuse.

Ni inzu nziza cyane igeretse rimwe, ikaba igurishwa, iri Kimironko, ifite ibirahuri byiza cyane kandi habamo umuryango, wakoreramo bizinesi yawe bikagenda neza.

Iyi ni inzu watuzamo umuryango cyangwa ukahashyira ibiro abantu bakajya bakugana muri serivisi zawe zitandukanye utanga ndetse ikaba iherereye Kimironko bakaba bayikodesha.

Ni inzu nziza cyane yabamo umuryango ndetse ifite ibyumba bine, iyi nzu uyishaka yayikodesha ku mafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu, umuryango wawe ukabaho neza.

Ni inyubako nziza cyane igeretse, ifite n'umwanya wo gushyiramo imodoka, ikaba iherereye Kimironko, i Kigali, igakodeshwa, ikaba ifite ibyumba bibiri n'ubwogero ku mafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Ni inyubako yabamo umuryango ndetse n’umuntu wakwifuza kuyibamo. Iyi nzu ikaba iherereye kimironko, ika ifite ibyumba bibiri, ikaba ifite ubwogero bubiri. Ikishyurwa amafaranga magana atatu na mirongo itanu ku kwezi, ushaka kuyikodesha twayimurangi.

Ni inzu zacumbikira abantu, bakabaho bakagira ubuzima bwiza n'umutekano, ziri hafi y'igikorwaremezo, cya sitade kiberamo umupira, byagufasha cyane gukurikirana. amakuru y'umupira agezweho.

Ni inzu bigaragara ko ari nziza cyane ikaba ifite icyumba gikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amanyarwanda wabamo kandi ukagira n'ubuzima bwiza.

Biragaragara ko ari iduka abantu bagana ricuruza ibintu bigiye bitandukanye wabagana bakagufasha.

Igaragaza ko ari isoko umuntu yakinjiramo agahaha ibyo akeneye, kandi yifuza, ko igiciro cyiza, umuntu adahezwe, bikamufasha mu kwiteza imbere, kandi akaryoherwa n'ubuzima.

Ni iduka ririmo amashakoshi agiye atandukanye, n'inkweto. Bigaragara ko bari kuganwa n'abakiriya benshi, abagabo n'abagore bifuza kugura ibyo bikoresho.

Biragaragara ko hano ari mu isoko wagirango ngo ni exipo ihuriramo abantu benshi habamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imitako y'abakobwa hakaba higanjemo n'abantu bagiye batandukanye baturutse impande zose.

Aha ni ahantu bacuruza ibyo kurya amafunguro ahiye, ndetse ukanywera n'icyayi, ndetse ukafatira n'ibindi bitandukanye, bitewe n'ibyo wifuza bakakwakira neza.

Aha biragaragara ko ari iduka ry'abahinde bacuruza ibikoresho bikoreshwa mu nzu, muri botike. Aha abakiriya babaganye kugira ngo bagure ibyo bikoresho bajye babikamo ibintu kugira ibintu byabo bidapfa.

Biragaragara ko ari isoko rigurirwamo ibintu bitandukanye ndetse wabibona ku biciro byiza.

Ahangaha ni sale yo kwa muganga, abanyarwanda bitabiriye baje kwivuza indwara zigiye zitandukanye, bicaye bategereje ko kwa muganga babafasha, kwa muganga hadufasha mu gukira bakaduha n'imiti vuba.

Iyi ni ikarita ikoreshwa mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda yagufasha kuba wagira ikibazo cy'uburwayi bakakuvura kandi ku giciro udahenzwe.

Aha biragaragara ko ari igikorwa cy'umutekano, abantu bari gushishikarizwamo kwirinda ndetse no gukoresha Ara esesibi mu gihe bagiye kwivuza, kugira ngo bagire n'ubuzima bwiza.

Ni umubyeyi uri mu isoko ry'ibicuruzwa akaba ari gushishikariza abantu gukoresha ejo heza, zigamira ku bw'ejo hazaza hanjye na ejo heza, wowe barakubaza niba nawe ubikora.

Aha biragaragara ko ari mituweri de sante, itangwa n'igihugu mu gufasha abaturage mu kwivuza, bakabona imiti ku mafaranga makeya, ndetse n'uwagize ikibazo bigahita bimufasha kwivuza, atarinze kujya gusaba ubufasha ahandi.

Biragaragara ko ari abaturage bahinga, bicaye ku nzu y'ububiko bw'ikawa akaba, ariho bari kuganirira bareba uko bazamura umusaruro wabo bagakomeza kwiteza imbere.

Biragaragara ko hano ari muri supamateti cyangwa isoko wahahiramo ahatwaba turi mu gice cy'imbuto ndetse n'imboga bakaba babitandukanya n'ibindi kugira ngo bitivanga ibindi bikabyangiza. Hakaba hari n'uruhande rw'inyama ushaka, inyama ugahita uyibona vuba bitakuvunye.

Ni duka rya supamaketi winjiramo, ukajya ku ruhande ushaka kubera ibintu bagiye babishyira ahantu hamwe, bifasha umukiliya kumenya icyo ashaka, aho kiri bitamuvanze ndetse n'ibiciro byayo.

Iyi ni supamaketi igurirwamo ibintu bitandukanye ariko iyi kote ni kote y'ibikomoka ku mata, bigiye biriho ibiciro byabyo n'aho bibikwa kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza.

Iragaragaza isoko rya Simba umuntu yinjiramo akareba ibyo akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi, bimufasha mu kwiteza imbere no kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.